Udukoresho dukozwe mu ishusho y'abana, twifashishwa mu kurera abana, biga mu mashuri y'inshuke, ikabafasha mu myigire yabo ya buri munsi.

Igishushanyo kigizwe n'utuntu tugiye dutandukanye dufite amabara atandukanye; ari mu ibara ry'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi cyifashishwa mu kwigisha abana b'incuke.

Udukoresho dutatu turi mu mabara atandukanye harimo ibara ritukura, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu, twifashishwa mu kurera abana biga mu mashuri y'incuke.

Ishusho nini cyane ishushanyijeho utuntu tugiye dutandukanye twifashishwa mu kurera ndetse no kwigisha abana batoya mu rugo mbonezamikurire ndetse n'urugo rw'incuke.

Abana bari kumwe umwe muri bo afite igikoresho cyifashishwa mu gusiga irangi, harimo arasiga irangi ku nzu asigaho irangi ry'umweru.

Ibikoresho byifashishwa, mu ishuri, bikenerwa n'abanyeshuri. amakayi, amakaramu y'ubwoko butandukanye. Udusongora amakaramu, amasizo.

Icyumba cy'ishuri ry'abana b'incuke kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe, uburiri, imikeka, byose bifasha abana mu gukura mu mutwe ndetse no mu gihagararo.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako nziza zisa neza ndetse n'agace kubabakiyemo aho abana babasha gukenera uburyo bwo kwidagadura, bikabafasha mu myigire yabo neza.

Ibikoresho by'abanyeshuri, byifashishwa mu myigire, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abanyeshuri mu gushushanya.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa babiri bafite ibikapu birimo amakayi bambaye impuzankano binjira ku muryango ujya mu kigo bagiye guhabwa uburezi ndetse n'uburere.

Ibikoresho bikenerwa n'abanyeshuri byifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo amasomo agende neza. Harimo: ibitabo, hakabamo amakaramu ari mu gakombe, akuma gasongora amakaramu ndetse n'imbuto, umunyeshuri ashobora gukenera kugira ngo imyigire ye ikomeze igende neza.

Icyumba gifite ameza atandukanye n'intebe ndetse ameza ateretseho mudasobwa, zifasha abanyeshuri mu myigire myiza mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu mashuri abanza.

Itsinda ry'abakozi bari mu nama baganira ku buryo bwiza bakora akazi kabo neza bakarushaho gufafashanya mu gutanga serivisi nziza mu mimirimo yabo bakora buri munsi.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bambaye impuzankano, umukobwa afite igikombe, bombi bafashe icyemezo cy'ishimwe mu kiganza cyabo cy'ibumoso.

Icyumba cy'ishuri kigali gifite amatara kirimo ibikoresho byifashishwa n'ubushakashatsi ndetse n'imyigire mu gusuzuma imiti igiye itandukanye.

Amadirishya ari mu ibara ry'icyatsi afite ibirahure afite n'ikirango hejuru yacyo bigaragaza aho bakorera ubukorikori mu buryo bwo kwiteza imbere.